Imodoka nziza cyane, imodoka y'abaporisi, imbere y'imodoka ari umupolisi wambaye ingofero y'umukara wirabura iriho idarapo ry'u Rwanda, imbere ye hari umugabo wirabura, bamufashe ibiganza.

Ipoto ryiza cyane, ipoto rirerire cyane ririho kamera ebyiri, hirya y'ipoto hari ibiti bigiye bitandukanye, bifite ibara ry'icyatsi , ibiti byiza cyane birinda isuri, ibiti bikaduha umwuka mwiza.

Indege nziza cyane y'umweru n'ubururu , ifite ibipanga byiza byanditseho 9XR-SP hariho umuntu uri kumanuka ku mugozi.

Umuntu mwiza cyane, umuntu wirabura umanitse ikiganza hejuru. Imbere ye gato hari umumotari uri kugenda mu muhanda. Iruhande rwe gato hari imodoka y'umweru, ndetse hari n'ibiti byiza cyane bifite ibara ryiza ,ndetse ibiti biri mu bintu birinda isuri.

Inzu nziza cyane, inzu yubatse n'amatafari, inzu iteye sima, inzu ifite irangi ry'umuhondo. Imbere y'inzu gato hari inkeragutabara nyinshi zigiye zitandukanye, zambaye inifomu z'icyatsi ndetse n'ingofero z'icyatsi n'inkweto z'umukara.

Ipoto ryiza cyane rirerire ririho ibikoresho by'ikoranabuhanga, bimwe muri byo ni umukara ibindi ni umweru, ni kamera umuntu yifashisha ashyira mu nzu ndetse no hanze y'inzu, ndetse no mu mashyamba.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye, bamwe muri bo bicaye ku ntebe zikozwe mu biti, imbere gato hari umuporisi wambaye imyenda za buru buraka hasi wambaye inkweto z'umukara, imbere gato hari umusaza wambaye ikositimu y'umukara n'ipantaro y'umukara, n'inkweto z'umukara iruhande rwe hari umusaza wambaye bote z'umukaramo.

Inzu, inzu nziza cyane inzu iteye sima inzu iteye irangi ry'umweru, inzu ifite inzugi nyinshi, imbere y'inzu hari inkingi imbere gato y'inkingi hari imodoka iparitse nziza y'umweru, iruhande rw'imodoka hari umugabo uhagaze wambaye isurubeti ifite ibara ry'ubururu ryijimye.

Umudamu mwiza cyane wirabura uhagaze wambaye linete z'umukara, ufite umusatsi w'umukara ufite mikoro wambaye isaha, uri kurebwa n'abantu bagiye batandukanye umwe umureba wambaye umupira w'umweru, undi wambaye ingofero y'umukara undi wambaye agapfukamunwa.

Abantu benshi cyane bicaye ku ntebe z'ibiti, abandi bicaye ku mucaca bafite imitaka myinshi, imbere yabo hari umugabo wirabura, wambaye amarinete y'umukara ufashe mikoro y'umukara, afite urupapuro rw'umweru ruriho ibyandiko.

Ishuri ryiza cyane rifite amabara y'umuhondo n'umweru, rifite ikibaho cy'umukara, imbere gato hari umukobwa uhagaze wirabura ufite umusatsi w'umukara, imbere gato hari intebe za sheze zicayeho abantu bagiye batandukanye, bafite amataburiya y'umweru.

Inzu nziza cyane, inzu isize irangi ry'umweru, inzu irimo amakaro, mo ndani hari kuberamo inama y'abantu batandukanye b'abayobozi, umwe muri bo ni umupolisi w'umukobwa, abandi ni abasirikari batandukanye, umwe muri abo ni umukobwa ufite imisatsi miremire ndetse wambaye ishati y'umweru.

Abagabo babiri bahoberanye, umwe wambaye ikositimu y'umukara, n'ipantaro y'umukara, uwo bahobera wambaye ishati y'umweru, hejuru ye hari parafo y'umweru, irimo imirongo y'umukara, munsi ya parafo harimo ifoto ya Yesu.

Inzu nziza cyane, inzu ya sima, inzu iteye irangi ry'umuhondo, inzu iri kuberamo inama y'abantu bagiye batandukanye. Harimo abagabo abagore, umugore umwe ufite telefone imbere hari kompiyita wicaye kuntebe, ufite imitatsi y'umukara wirabura, ndetse n'uwambaye amarinete w'umugabo, n'undi uri kuvugira muri mikoro.

Abantu beza cyane abantu bari gucurira basa nk'aho bishimye hadesa harimo n'iradiyo isa umukara. Hirya gato hari ibiti birebire ibiti byiza cyane ibiti biri mu bintu birinda isuri ndetse bikaduha umwuka mwiza.

Abantu benshi bagiye batandukanye abagore n'abagabo bari mu ngamba bamwe bicaye bahagaze, imbere yabo hari umuporisi mwiza wirabura uri kuvugira umuri mikoro wambaye inkweto z'umukara, inyuma ye hari umugabo uhagaze wambaye ishati y'umweru wambaye n'inkweto z'umweru n'ipataro y'umukara, nyuma ye hari umudamu wicaye ufashe umwana, umwana afite imisatsi, wambaye ishati y'umweru hino gato hari n'umugabo wambaye agapira karimo umutuku n'umukara.

Inteko y'aturage benshi irimo abagabo n'abagore, umwe muri bo wicaye ku ntebe, bambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, inyuma gato hari umubyeyi uteze igitambaro cy'umweru, inyuma gato hari umugabo wambaye umupira urimo umweru n'umukara.

Inzu nziza iteye sima, ifite irangi ry'umweru, mo indani harimo abantu batandukanye, abagabo n'abagore, umwe muri bo arahagaze, ni umugabo wirabura wambaye ikositimu, wambaye isaha y'umukara, yambaye ipantaro y'umukara.

Abantu birabura, abantu benshi bagiye batandukanye bari mu nama abagabo n'abagore, umudamu uhagaze ufite mikoro uri kuvuga ndetse ufite umusatsi muremure, wambaye linete z'umukara, iruhande hari uwambaye ishati y'umweru n'umudamu wirabura.

Abadamu n'abagabo bari mu nama, imbere yabo hari ameza asize verine hariho amazi n'agakapu k'umukara, iruhande rw'agakapu hari terefone y'umweru, mu kaboko k'iburyo umudamu ufite umusatsi w'umukara wambaye rinete, wambaye agatisheti k'umukara n'umweru.

Umuntu mwiza cyane wirabura, ufite imisatsi y'umukara, wambaye ishenete ,wambaye agapira k'umukara, ufite amaso meza, ufite umunwa mwiza, afite isura nziza.

Intango, intango nziza cyane, intango irimo agati mo indani, intango ifite ibara ry'umweru wijimye, intango ni kimwe mu bikoresho abantu ba kera bakundaga cyane, bengeramo umusururo uryoshye cyane.

Ababyinnyi beza cyane bari kubyina imbyino ya gakondo bambaye amayogi, bafite imisatsi y'umweru miremire, umwe wimbere yambaye ijipo yubururu, yamanitse amaboko hejuru.

Ibimera ni byiza cyane, ibimera biri mu bimwe mu bintu birinda isuri, birinda iki kimera gifite indabyo nziza cyane z'umweru, inyuma y'ibi byatsi, hari ibiti, ibiti ni bimwe mu bintu biduha umwuka mwiza, tugahumeka umwuka mwiza, ndetse bikarinda isuri.

Abadamu benshi birarabura, bari kubyina ibyino y'abakeba, umwe muri bo ufite imisatsi y'umukara miremire, wambaye umubano mu mutwe, wambaye shanete mu ijosi, wambaye agasengeri kumweru, hirya hari nundi wambaye agasengeri kumwe hasi ufite umuhondo.

Ibyibo bibiri byiza cyane, ibyibo ni bimwe mu bikoresho umuntu yifashisha mu rugo, abikamo ifu, amasaka, impungure ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye.

Inzu nziza cyane, inzu y'abakira inzu ya gakondo abantu bari imbere y'inzu, bari kubyina imbyino za gakondo bafite imisatsi y'umweru miremire, bambaye n'udupira tw'umukara bamwe na bamwe, bambaye n'amayugi meza cyane.

Abadamu beza birabura, umwe muri bo ufite umusatsi w'umukara. Bari gukora mu muvure, hirya gato hari umudamu uhagaze ufite ijipo y'ubururu, hirya gato hari ibitoki, hasi y'aho bari hari ibyatsi by'icyatsi.

Imyuko myinshi irambitse hasi. Imwe muri yo harimo indosho. Hirya gato hari ibyatsi by'icyatsi. imyuko iri mu bikoresho bimwe umuntu yifashisha avuga umutsima, nangwa ashigisha igikoma. Indoshyo harimo zimwe yifashisha yarura isosi.

Inzu nziza cyane, inzu ifite irangi ry'umweru. Inzu ifite inzugi z'icyatsi, imbere y'inzu hari umugabo mwiza wirabura, ufite umusatsi, ufite ubwanwa, wambaye ijiri y'umuhondo, wambaye agapira k'umukara, ufite igikapu.

Umuntu mwiza cyane, umuntu wirabura umuntu ufite umusatsi umuntu wambaye ishati y'umweru, umuntu wambaye isaha wambaye ikoboyi, umuntu uri gucuranga iningiri, iningiri nziza cyane ifite imirya myiza cyane.

Umugabo ari kubyina wambaye ishati y'umweru, wambaye siripa z'umukara. Ahagaze ku mucaca, inyuma hari korotire y'umuhondo, inyuma gato hari indabyo z'icyatsi. akaba akenyeye idarapo ry' u Rwanda.

Abadamu benshi bagiye batandukanye umwe muri bo wambaye umupira w'umweru bari gutera insina. Umwe muri bo witeze igitambara kirimo umutuku n'umweru. Undi ukitega igitambaro cyijimye kirimo umuhondo.

Abagabo bambaye amashati y'umweru, abagabo birarabura bafashe ibiti, bambaye imishanana isa n'umukara wijimye, urimo umweru, bari kugenda, iruhande rwabo hari abantu benshi, bari kubareba.

Umukobwa mwiza cyane wikoreye agaseke keza cyane ufite umusatsi w'umukara umukobwa wirabura wambaye agapira k'umukara uzamuye amaboko meza nk'umubyinnyi.

Inka nziza ifite amahembe maremare meza yambaye ishenete y'umweru, iruhande rwayo hari umugabo mwiza wirabura wambaye ingofero, ufite inkoni ku rutugu ufashe ku nka.

Inkono nziza cyane , iteretse kuri rondereza, imbere harimo umuriro waka munsi hakabamo inkwi , inkono ni kimwe mu bikoresho umuntu yifashisha mu rugo, atekamo ibiryo bigiye bitandukanye ndetse bikanaryoha.

Inzu y'ibyatsi iri kunyerera hari ibitebo mo indani hari ibigori hirya gato hari ibitoki, hirya gato hari ibiti birebire . Hejuru y'inzu hari umugozi muremure.

Agaseke keza cyane , gafite ibara ry'umweru n'umukara . Aka ni agakoresho bakoreshaga kera netse n'ubu . Ni kimwe mu bikoresho umuntu yifashisha abikamo inpungure , ifu , amasaka n'ibindi bigiye bitandukanye.

Ikirago kiza cyane, ikirago kiriho ipureti nziza cyane, ipureti y'umweru iriho ibiryo by'ubwoko butandukanye hariho; igihaza, kikidodoki, ibishyimbo. Ibishyimbo biri mu bintu birinda indwara ndetse bikubaka umubiri.

Umukobwa mwiza cyane ufite imisatsi y'umukara, ufashe isuka uri gucukura wambaye ibirenge. Iruhande rwe hari intama nziza, ndetse inyuma ye hari uruzitiro rw'ibyasi byiza, ndetse inzu y'igitaka yubakishijwe amabati y'umweru.

Ibiti byiza cyane. Ibiti biri mu bintu birinda isuri, tukabihumeka umwuka mwiza. Imbere gato hari ababyinnyi beza cyane birabura bari kubyina imbyino nyarwanda. Bamwe muri bo bafi imibano y'umweru, abandi bakagira imibano irimo umuhondo n'icyatsi. Bambaye amasheneti y'umweru bikwije imyenda y'umweru.

ikimara kizacan ki guhigana amasaka amasaka m menshi cyane in masaga yararabeye gusa amasaka ari mu bihingwa umuntu acuruza akajana akabonakaduha porota

Abakobwa beza bari kubyina imbyino nyarwanda, bikoreye uduseke, bambaye imishanana y'umutuku, bambaye udusengeri tw'umweru. Hirya gato hari igikuta cy'umukara, hejuru hari parafo y'umweru.

Ikibindi cyibwa cyane ikibindi gifite ibara ry'umutuku, ndetse hasi hasa umukara ikibindi kirimo umusururu mwiza cyane, ubereye ijisho ndetse uryoshye kirimo imiseke cyangwa imiheha ine ifite ibara rijya gusa umweru.

umuntu mwiza cyane, umuntu ufite imisatsi y'umukara, umuntu wirabura, umuntu wambaye ishati y'umweru, wambaye agasengeri karimo umukara n'umweru, ufite ikintu gisa ukuntu kimeze nk'inkono y'umukara.

Inka nziza, inka ifite amahembe maremare meza cyane. Ishorewe n'umugabo wirabura, ufite intoki zirabura, wambaye ishati y'umweru, wambaye umushanana, iruhande rw'inka hari ibyatsi by'icyatsi byiza.

Abantu benshi bagiye batandukanye bambaye ishati y'umweru, abagabo birabura bafashe ibiti bari kuvuza ingoma, ingoma nziza cyane, ingoma, inyuma y'ingoma hari inzu nziza cyane, yubatswe mu biti isakajwe amabati y'umweru hari inzu yubatswe mu buryo bwagacurama.

Inzu nziza cyane yubatswe mu buryo bwa kera, iruhande rwayo ifite igipangu cyubakishije uduti. Inyuma y'inzu hari ibiti birebire byiza bibereye ijisho, iruhande rw'ibiti hari ibyatsi by'icyatsi byiza bibereye ijisho.

Umuco nyarwanda abantu bagiye batandukanye umugore n'abagabo bahetse umuntu umwe wicaye mu ngobyi, umwe muri bo umudamu wambaye isengeri y'umukara wambaye umushanana w'umweru imbere gato hari ibiti ibiti byiza cyane, ibiti birinda isuri.

Ikibo kiza, ikibo kirimo uturongo tw'umukara, ndetse gifite n'ibara y'umweru, iteretse ku nkoko, inkoko ni imwe mu bikoresho, umuntu akoresha ari kugosora impungure, ndetse n'amasaka yaciyeho, ni kimwe mu bikoresho abantu bakoresha, babikamo ifu n'impungure.

Abantu beza cyane bambaye imyenda y'icyatsi barimo bavuza amakondera, umwe muri bo wambaye ingofero undi utambaye ingofero, umwe muri bo wambaye ishati y'amaboko y'umweru n'ipantaro y'ubururu.

Inzu nziza cyane inzu y'amatafari irimo umwana w' umukobwa wirabura uryamye, wambaye ishati hejuru y'umweru, wambaye ijipo y'ubururu, hejuru ye hari icyibo. Icyibo ni kimwe mu bikoresho umuntu yifashisha ashyiramo ifu ndetse n'impungure.

Ikibo kiza cyane giteretse ahantu hasa n'umukara, icyibo gifite amabara agiye atandukanye, ikibo gifite ibara ry'umuhondo n'umukara, icyibo ni mu bintu bya gakondo, umuntu yifashisha abikamo ibintu bitandukanye harimo amasaka , ni ifu.

Abagabo beza cyane birabura, umwe ni umusaza. Hirya gato hari umugabo uhagaze ufashe akaduki k'umweru, wambaye ikositimu y'umukara, n'ishati y'umweru, ipataro y'umweru, n'inkweto z'umukara.

Umusaza ni mwiza yicaye mu mwanya w'icyubahiro. Afite umusatsi mwinshi w'umukara, afite amaso meza, afite umunwa mwiza. Wambaye ikoti ry'umweru rifite ikora ry'umukara imbere harimo agapira k'umweru.

Iningiri nziza cyane. Iningiri ifite ibara ry'umuhondo, iningiri ifite imirya y'umuhondo, iningiri mo imbere hari akantu k'umukara karimo , iningiri icurangwa n'umuntu ufite ibiganza by'inzobe, iningiri icuranga umuziki uryoshye cyane.

Igiti kiza cyane, igiti kirereke, igiti cy'umuhodo kirinda isuri tugahumeka umwuka mwiza, iruhande inyuma gato, gato hari igipangu cyubakishe amabuye, hejuru y'amabuye hari umutiba mwiza, umutiba ujyamo inzuki, inzuki zikaduha ubuki bwiza cyane.

Umukobwa mwiza wirabura ufite imisatsi y'umukara, wambaye amasheneti mu ijosi, wambaye isengeri y'umukara wikwije imyenda y'imishanana.

Inzu nziza cyane iteye irangi, irimo na parafu, inzu irimo ibyibo bigiye bitadukanye bimwe birimo umweru n'umukara ikibo ni kimwe mu bikoresho umuntu yifashisha abikamo ifu impungure n'ibindi n'ibindi.

Abagabo benshi birabura bafite imisatsi y'umweru, bafite imigozi mu Ijosi y'umuhondo, bambaye imishanana irimo umutuku n'umweru, bari kubyina ku byatsi, inyuma ya bo bafite ibiti birebire, bifite amashami menshi.

Ingobyi nziza cyane, ingobyi iri mu bikoresho umuntu yifashisha mu gihe afite umurwayi, umurwayi bakamujyana kwa mu ganga, iruhande rw'ingobyi hari ibi ibitebo birenze kimwe m' indani bisa umukara.

Umugabo wirabura ufite umusatsi wambaye ishati y'umukara, wambaye ipantaro y'umukara uhagaze ku byatsi, inyuma gato hari ari ibyatsi by'umukara, akaba ari gucuranga iningiri.

Umukobwa mwiza cyane wirabura, ufite umusatsi w'umukara witandiye, agatambaro karimo umukara n'umweru, imbere gato hari igicuba cy'umuhondo, inyuma gato hari ibara rya shokora.

Inzu nziza cyane, inzu isakaje n'amategura, inyuma y'inzu hari igiti cya voka. Ivoka tuziko ari kimwe mu mu bihingwa umuntu yifashisha agurisha kugira ngo abone amafaranga.

Igicuma kiri mu bikoresho umuntu yifashisha anywamo, anyweramo inzoga, cyangwa umusururu, akabikamo amata, hirya gato hari umusozi, hino gato hari ibyatsi by'icyatsi, hino gato hari amateke.

Abantu beza cyane birabura abagore n'abagabo bari kubyina imbyino ya gakondo, umugabo umwe muri bo wambaye ingofero wambaye n'umupira w'umweru, wambaye ikoboyi wambaye inkweto z'umweru, hirya gato hari umubyeyi ufite imisatsi miremire.

Turunovisi nziza cyane, turunovisi ifite ibara rigiye gusa n'umweru wijimye harimo ikirangi cy'umukaran'umuhondo, turunovisi ni bimwe mu bikoresha umuntu yifashisha afungura amaburo, ndetse agakoresha ku byuma bigiye butandukanye.

Imashini nziza cyane, imashini iri kwaka mo imbere ifite ifoto irimo umusozi muremure. Imashini iri mu bintu by'ibikoresho by'ikoranabuhanga, umuntu akoresha yandika igitabo ndetse akigiramo umunyeshuri.

iki n'ikoresho bakoreshe mu ikoranabuhanga ndetse n'amashanyarazi, gifite buto rigiye kumera nk'umweru ririho akantu gacometseho ku mukara, hirya ndabona kicuma cumukara ndetse iki cyuma bifashisha bahonda ku bindi byuma runaka kugirango bigororoke.

Ipensi nziza cyane, ipensi ifite ibara ry'umweru ku cyuma, inyuma y'icyuma ku kirindi hari shokora, ipensi idufitiye akamaro kanini, ipensi tuyifunguza amaburo y'igare, amaburo ya moto, amaburo y'imodoka ndetse n'ibindi bikoresho itandukanye.

Ipoto nziza cyane, ipoto ry'icyuma rirerire rifataho insinga ndende, hasi gato hari inzu yubatswe mu gitaka ndetse inzu iriho urubavu rw'ubururu, hejuru ku mabati ruriho kanari prisi.

Ibikoresho byiza cyane by'umukara umuntu yifashisha mu ikoranabuhanga. Ibi ni ibikoresho biduha umuriro, ndetse ibi ni ibintu biduha n'amakuru agiye atandukanye hirya no hino ku isi.

Iki ni igikoresho cy'ikoranabuhanga gifite: ibara ry'umweru, n'icyatsi n'umuhondo, kikaba ari igikoresho umuntu akoresha mu mashanyarazi ,ndetse no mu bintu bigiye bitandukanye ,harimo nko gukora ibyuma bigiye bitandukanye, imodoka no guporeza ibintu bigiye bitandukanye.

Amazu menshi agiye atandukanye, asakajwe amabati y'umutuku, yubakishijwe amatafari ahiye. Imbere gato hari itiyo y'umukara hejuru ari umweru, hirya gato hari umuhanda w'igitaka.

Igorofa nziza, igorofa ebyiri ziteganye, igorofa zubatswe n'amatafari ahiye, ifite amadirisha y'umukara ndetse Hari akantu k'umweru, ndetse indi gorofa ifite umweru uhagaze, ndetse n'utambitse, hasi hari ubutaka bwiza cyane, na sima imeze neza iriho utuntu tw'umweru.

Amagorofa abiri yubatswe kimwe, afite imiryango myinshi. Hejuru gato hari urutsinga rw’amashanyarazi hagati yayo mazu, hari ipoto rifite amatara abiri. Imbere gato hari umuhanda ufite ibara ry’umuhondo wa pave.

Inzu nziza cyane, inzu yubatswe n’amatafari ahiye. Ndetse harimo umurongo uhagaze ndetse n’utambitse. Inzu yubatswe ahantu heza, ku busitani bwiza, ku mucaca usa n’icyatsi. Igipangu cyubakishije amatafari ahiye, harimo na giriyaje.

Inzu yubatswe n'amatafari ahiye harimo umurongo uzamuye w'umweru. Imbere y'inzu hari abantu bagiye batandukanye abagabo n'abagore, umwe muri bo ufite imitatsi miremire. Hirya gato hari umugabo wambaye umupira w'umweru, hirya gato hari uwambaye ingofero y'umukara irimo umweru.

Inzu nziza cyane, inzu yubakishije amatafari ahiye, inzu isakajwe amabati y'umukara, inzu ifite amadirishya menshi, inzu ifite imiryango myinshi, imbere gato hari ibintu...

Urusengero rwiza cyane ni urusengero runini urusengero rwubakishijwe n'amatafari ahiye, imbere y'urusengero hari icyapa kiri ku rusengero cyanditseho paruwasi, iruhande rw'urusengero imbere gato hari ikigega cyubakishijwe amatafari ahiye.

Urusengero rwiza cyane, urusengero rwubatse ruteye sima, ruteye irangi ry'umuhondo, rufite amadirishya y'umweru ndetse n'urugi rw'umweru, imbere gato hari icyapa cyanditseho adeperi remera caci, imbere gato hari abantu bagiye batandukanye, abirabura ndetse n'abazungu.

Icyapa kiri ku giti ki cyuma gifite amabara agiye atandukanye harimo umutuku, umweru, umukara hirya gato hari igitaka cyiza hejuru gato hari ibyatsi byicyatsi hirya gato hari inzu.

Kaburimbo nziza cyane. Kaburimbo iri muri bimwe umuntu yifashisha atwara ibintu n'abantu. impande zabo hari imisozi iriho ibiti bibereye ijisho. Ibiti biri muri bimwe birinda isuri.

Inzu nziza cyane ifite inzugi zigiye zitandukanye, isakajwe amabati y'ubururu, ikaba ifite irangi ry'umweru, imbere gato hari umuntu wicaye ku ntebe y'igiti, iruhande rwe hari igiti cy'avoka kiri mu busitani bwiza, hirya hari umugozi w'amashanyarazi.

Ikibuga cyiza cya vole gishushanyijemo imirongo itambitse n'ihagaritse, ikibuga gikinirwamo abakinnyi bagiye batandukanye mu mpande no mu mpande, hirya gato hari umusozi muremure cyane ubereye ijisho.

Inzu nziza cyane, inzu ndede, inzu igeretse, inzu ifite amadirishya, inzu ifite inzugi nyinshi, imbere y'inzu hari parikingi ndetse n'akantu karekare kumwe karimo ibara ry'umuhondo.

Inzu, inzu nziza cyane, inzu iteye sima, inzu ifite ibara ry'umweru n'umukara, ifite inkingi, imbere y'inzu hari imodoka y'umweru, imbere hari abantu bagiye batandukanye, abagabo, umwe muri bo wambaye umupira w'umukara.

Inzu, inzu nziza cyane inzu yubatswe n'amatafari ahiye ifite inzugi z'umweru, inzu irimo umurongo umwe uhagaze ndetse n'utambitse. Inzu ifite amadirishya y'umweru imbere gato hari icyatsi cyiza, cy'ikimera gifite ibara ry'icyatsi.

Inzu, inzu nziza cyane, inzu yubatswe mu buryo bwa gacurama isakajwe amabati agiye gusa umutuku, inzu ifite imiryango y'umweru isize irangi ry'umweru, ifite hejuru y'inzu hari ikirere cyiza cyane kirimo ibicu by'ubururu.

Inzu nziza cyane iteye sima, inzu isize irangi ry'umutuku isakajwe amabati atukura, imbere gato muri jaride harimo umuntu uryamye wambaye ishati y'umweru. Ifite amadirishya y'umweru, imbere gato y'urugi hari umuntu wambaye itaburiya y'umweru .

Inzu nziza cyane, inzu yubatswe n'amatafari ahiye afitemo umurongo w'umweru utambitse ,ukagirwa n'amadirishya arenze abiri ,imbere y'inzu hari igiti cy'icyuma kirekire kiriho idarapo ry'u Rwanda, harimo ibara ry'umuhondo, icyatsi n'ubururu, imbere y'iyo nzu hari umuntu uri kugenda mu muhanda nyabagendwa.

Inzu nziza cyane inzu igeretse inzu yubakishije amatafari ahiye, inzu isakaje amabati atukura, inzu imbere y'inzu gato hari utuntu tw'umweru. Iba imbere y'inzu mu muryango hari umuntu wambaye ishati y'umweru wambaye ijipo yu'ubururu.

Ikigo cy'amashuri cyiza, cyubatswe n'amatafari ahiye, harimo umurongo umwe, ufite amadirisha menshi, yubatswe n'amabati y'ubururu, iruhande rw'amashuri hari igiti cyiza cyane kirekire, gifite amashami maremare, igiti kiri mu bindidukikije, kikarinda isuri.

Inzu nziza cyane inzu yubatswe mu buryo bwagacurama, inzu igeretse ifite amabati atukura, ifite irangi ry'umuhondo, imbere ifite amadirisha menshi, inzugi n' inkingi, mbere gato hari utuntu tw'umweru ndetse tw'umukara tugiye dutandukanye.

Inzu yubatswe n'amatafari ahiye, harimo akarongo k'umweru, irimo amarangi y'umuhondo, hejuru mu kirere harimo ibicu by'umweru, imbere y'inzu hariho igicucucu, n'ibyatsi n'insina.

Inzu, inzu nziza cyane inzu yubatswe mu matafari ahiye ifite rido y'ubururu, mo imbere harimo igitanda cy'ubururu kigeretse kabiri, kiriho matora ebyiri ndetse n'amashuka ku bitanda byombi.

Amagorofa abiri ateganye arimo imiryango myinshi. Hagati yazo hari ipoto ndende ifite amatara abiri mu mpande zombi. Umunyegare wambaye umupira w'umuhondo.

Inzu nziza cyane yubatswe n'amatafari ahiye, inzu isakajwe n'amabati atukuye. Ifite imiryango myinshi, ikagira amadirishya menshi, ikaba iteye irangi ry'umweru. Imbere gato hari icyapa cy'umweru, hejuru y'icyapa hari urutsinga rw'amashanyarazi ku ipoto ndende. Iruhande rw'ipoto hari ibiti birebire. Ibiti ni bimwe mu birinda isuri.

Urusengero rwiza cyane rwubatswe mu matafari ahiye, imbere gato hari umurongo umwe uzamutse, iruhande rw'urusengero hari ibiti birebire byiza cyane, imbere y'urusengero hari abantu babiri, umwe muri bo wambaye umupira w'umweru, undi wambaye umupira w'umukara.

Inzu nziza cyane, inzu igeretse, inzu ifite irangi ry'umweru, iriho utuntu tw'umurongo tw'umukara, imbere y'inzu hari imodoka y'umweru, ndetse hakaba na kaburimbo irimo umurongo w'umweru, ndetse imbere y'inzu hari icyapa.

Abantu benshi bagiye batandukanye, harimo abagore n'abagabo. Umwe muri bo afite imisatsi miremire, wambaye ishati itukura, hariho umugabo wambaye ishati y'umweru irimo uturongo. Inyuma ye hari abantu bahagaze. Inyuma hahagaze hari ibiti birebire bibereye ijisho.

Inzu nziza cyane yubatswe n'amatafari ahiye, ifite amadirishya y'umweru, inzugi z'umweru, isakaje amabati y'ubururu. Imbere y'inzu gato hariyo abantu bagiye batandukanye. Imbere hari umudamu uhagaze wirabura, ufite imisatsi, yambaye ishati y'umweru hasi wambaye ijipo ijya gusa umutuku. Iruhande rwe hari umuntu wambaye ingofero y'umukara n'ipataro y'umukara.

Abantu benshi bagiye batandukanye; abagabo n'abagore umwe muribo n'umugore ufite imitatsi y'umukara irimo shokora, wambaye agapfukamunwa, wambaye ipantaro y'ikobayi, iruhande rwe hari umugabo udafite umusatsi, wambaye agafuka mumunwa kubururu.

Inzu yubatswe n'amabati y'umweru iteye sima, ikaba ifite igipangu cy'amatafari ahiye, ifite urugi rw'umutuku, imbere y'inzu hakaba hariho abantu benshi, umwe muribo akaba bicaye ku ntebe y'imvunwe, hariho umudamu wambaye umupira w'umutuku,

Inzu, inzu nziza cyane, inzu isize irangi ry'umuhondo. Irimo abantu bagiye batandukanye. Abagore n'abagabo. Umwe uhagaze w'umusaza ufite mikoro wambaye umupira w'umukara, wambaye ishati y'umweru, iruhandede rwe gato imbere, hari umugabo ufite ubwanwa wambaye umupira w'ubururu.

Abaturage benshi bari mu nteko y'abaturage, imbere yabo, hari umudamu uhagaze wanyereje imisatsi, wambaye igitenge cy'ibaze, hirya hari icyapa kinini kirimo ibara ry'ubururu , hirya hari umwe hirya gato hari igiti.

Abantu benshi bagiye batandukanye harimo umudamu wambaye amarinete, wambaye umupira utukura, hirya gato hari umusaza wambaye ingofero y'ibaraza, wambaye ikoti ry'umukara, afite inkoni y'umukara, wambaye ipantaro y'umukara, wambaye amasogisi y'umweru, wambaye inkweto z'umukara.

Imodoka nziza cyane, imodoka ifite ibara ry'umweru, imodoka ziraparitse iruhande rw'imodoka, hari abantu benshi cyane bagiye batandukanye, hariho n'umutaka wa emutiyene, hari n'abantu umwe muri bo wambaye umupira utukura ndetse n'umupira w'umukara ndetse n'umupira w'umuhondo.

Imodoka nziza ebyiri iri muri kaburimbo. Imwe y'imbere isa ubururu, iruhande rwa kaburimbo hari imirima myiza cyane n'ibiti byiza cyane bibere ijisho, n'ibyatsi by'icyatsi bibereye ijisho.

Abantu babiri bari ku magare, umwe w'umukobwa undi w'umugabo, umwe muri bo ufite imitsitsi myiza cyane miremire, yambaye ipataro y'umweru umugabo wambaye ingofero y'umukara, akambara n'inkweto z'umweru.

Imodoka imodoka nziza cyane ifite ibara ry'umweru ndetse ku rugi hariho ibara ry'umukara harimo umuhondo wirabura ufashwe kuri ndiregisiyo. Imodoka nziza cyane yandikitseho yego kabusi yandikishijwe ibara ry'umutuku.

Ubwato, ubwato bwiza cyane, ubwato bufite ibara ry'umweru, ubururu umuhondo icyatsi. Ubwato burimo abantu bagiye batandukanye bambaye amajire ajya gusa umutuku, buri kugenda mu mazi. Hirya yabwo hari amashyamba. Amashamba agaragara mu bintu birinda isuri ndetse, bigakurura ba mukerarugendo.

Moto nziza cyane moto zifite ibara ry'umukara n'umutuku, zifite kasike y'ubururu n'umukara ,hirya gato hari abantu batandukanye, umugore n'umugabo, umugore wirabura wambaye rinete, wambaye umupira w'umukara, wambaye n'ipantaro y'ikoboyi, bambaye imyenda n'agapira ku iruhande rwe hari umugabo wambaye ikositimu wambaye ishati y'umweru.

Imodoka nziza cyane imodoka zifite ibara ry'umweru, hamwe n'abantu bagiye batandukanye benshi b'abagore abagabo n'abana bagiye batandukanye, umwe muri bo abadamu bambaye amashati y'umweru hejuru, hasi ijipo y'umukara n'inkweto z'umukara.

Abanyonzi beza cyane bari ku magare, bafite amagare y'umuhondo n'icyatsi. Inyuma gato hari umugabo wambaye agapfukamunwa, wambaye ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara.

Kwasiteri zihagaze muri gare, imbere yazo hari abanyeshuri bambaye inifomu ,hejuru umweru bahetse ibikapu, imbere y'abanyeshuri hari umudamu uri kuvugira kuri telefoni , telefoni y'umukara ufite umusatsi w'umukara, inyuma gato hari ufite agapira k'umuhondo.

Imodoka nziza, imodoka ifite ibara ry'umweru, imodoka iri kwinjiramo abantu bagiye batandukanye harimo abadamu n'abagabo. Umudamu ufite imisatsi y'umukara irenze neza. Imbere gato hari uwambaye ingofero y'umweru, hari n'uwambaye umupira w'umutuku uri kwinjira mu modoka, ndetse hari n'ufite umupira w'umukara urimo umweru ndetse n'umutuku.

Abamotari benshi bagiye batandukanye, bahetse abantu bagiye batandukanye, umwe muri bo wambaye agatisheti k'umukara, n'umweru, wambaye ikasike y'umutuku, inyuma gato hari ari umubyeyi ukenyeye wambaye umupira w'umweru, ufite ingofero y'umutuku, inyuma gato hari umunyegare uri gusunika imifuka itatu y'umweru.

Inzu nziza cyane, inzu yubatswe n'amatafari ahiye, ifite urugi rw'umweru, imbere y'inzu hari imodoka ifite ibara ry'umweru, hariho utudomo tumeze nka tiriyango tw'ubururu, iruhande rw'imudoka hari abantu bagiye batandukanye, hariho umugabo wambaye ingofero y'umutuku, wambaye umupira w'ubururu, imbere gato hariho umunyozi uri gutwara.

Inzu nziza cyane yubatswe n'amatafari ahiye, ifite inzugi ebyiri, rumwe rw'umweru, urundi rw'ubururu, ifite inkingi y'umweru, imbere gato hariho igare ririho igitebo, numugabo uhagaze wirabura, wambaye bote z'umukara.

Kwasiteri n'inkingi zigiye zitandukanye z'ubururu n'umweru, inyuma gato ya kwasiteri hari ibiti, ibiti birebire bifite ubwiza, ibiti biri muri bimwe birinda isuri, bikaduha umwuka mwiza.

Imodoka y'umweru n'umukara yanditseho Jali taransipoti, itwara abagenzi muri kigali gusa. Abagenzi bahagaze iruhande rwa kaburimbo, umwe muri bo ufite imishatsi mireremire wambaye ipantaro y'umukara, inyuma ye hari abagabo babiri bahagaze.

imodoka nziza cyane, imodokadoka y'umweru iri muri kaburimbo, mu muryango w'imodoka, harimo umuntu uhagaze, wambaye agapira k'umuhondo, inyuma y'modoka hari ibiti birebire byiza, ibiti biri mu bimwe; birinda isuri, bikaduha umwuka mwiza.

Inzu nziza cyane, inzu ifite ibirahuri bya fime inzu ifite amadirishya menshi, ifite inzugi nyinshi ifite irangi ry'umweru, ku nzugi imbere y'inzu hari abanyonzi benshi bagiye batandukanye, bambaye ingofero z'ubururu, umwe muri bo yambaye agapira k'umweru.

Indege nziza cyane, indege ifite ibara ry'umweru n'ubururu. Indege yanditseho Rwanda eya munsi handitse fera de dirimu ovu afurika. Iruhande rw'indege hari abantu bari kugenda ku ngazi bagiye batandukanye. Umugore n'abagabo, umugore ari inyuma wambaye ingofero ufashe telefone, imbeere gato hari uwambaye ikoti ry'umukara, imbere gato hari uwambaye ingofero y'umukara.

Bisi y'umweru irimo utuntu tw’utudomagure, utuntu tumeze nka sikweya. Iruhande rwayo hari abamotari benshi, umwe muri bo ufite ikasike, uwo ahetse nta kasike afite. Inyuma gato, hari icyapa kinini cyane.

Ibiti byiza, ibiti byinshi bigiye bitandukanye, iruhande rw'ibiti hari ipoto ririho kamera ni itara, igiti ni bimwe mu bintu birinda isuri, ikaduha umwuka mwiza, imodoka iri kugenda muri kaburimbo ifite ibara ry'umweru.

Imodoka nziza cyane, imodoka y'umweru iri mu bwoko bwa dayihatsu. Ipakiye ibintu bigiye bitandukanye, mu bipakiye harimo ibintu by'umutuku ndetse harimo n'ibimera bifite ibara ry'icyatsi. Hirya gato, hari ibati rijya gusa n'ubururu. Hari n'abantu babiri bifashe mu mugongo, bambaye ishati y'umweru n'ipatalo y'umukara.

Bisi yumweru n'ubururu iri kujyamo abanyeshuri imbere gato hariho uwambaye ishati y'umweru hasi ijipo y'ubururu akaba yambaye amasogi yumweru n'umukara akaba ahetse igikapu inyuma gato akaba ari we ufite igikapu kirimo umutuku n'umukara.

Imodoka nziza cyane, imodoka zifite ibara ry'umweru. Imwe muri zo yanditseho vorukano, imbere gato hari abantu bagiye batandukanya, ndetse n'inyuma gato hari inkingi. umwe muri bo n'umugore n'abagabo, umugore wari ufite igikapu cy'umweru, inyuma gato wari wambaye ipantaro n'umutuku.

Imodoka nziza cyane y'umukara, iriho ibyandiko by'umweru byanditseho Kigali City Tour, musi gato handitseho Visit Rwanda . Inyuma y'imodoka hari ibyatsi by'icyatsi, hirya gato y'byatsi hari inzu ndende ya etaje igeretse y'umweru.

Imodoka nziza cyane, iyi modokaka ifite ibara ry'umweru n'ubururu, imbere y'ikirahure hariho handitse volukano, harimo abandi batandukanye abagore n'abagabo, imbere gato hari umudamu wirabura afite umusatsi muremure wambaye agapira k'umuhondo, inyuma ye hari umugabo wambaye agapira k'umutuku wirabura.

Umukino wa futuboro ukinwa n'abagabo batandukanye, harimo uwambaye umutuku, amasogisi y'umutuku, wogoshe neza. Hirya gato hari uwambaye amasogisi y'umweru, wambaye jese y'umweru, ikabutura y'ubururu ndetse n'umucaca mwiza cyane, ufite ibara ry'icyatsi harimo n'umurongo utambitse.

Abakinnyi ba basiketi b'abirabura . Abakinnyi b'abakobwa neza cyane, bafite imisatsi miremire ,umwe muri bo yambaye inkweto z'umweru ifite igiti kijya gusa ubururu wambaye ikabutura y'ubururu wambaye ishati umupira w'umweru , uwo hagati wambaye isengeri y'ubururu wambaye ikabutura yubururu.

Inzu yubatswe n'amatafari ahiye isakajwe n'amabati y'ubururu imbere gato ifite igipangu cyubatswe n'amatafari ahiye. Imbere y'igipangu hari abakinnyi ba hendi boro umwe muri bo wambaye umupira w'umuhondo, undi wanditseho cumi na karindwi, undi wanditseho gatatu.

Idarapo ryiza cyane idarapo riri ku cyuma. Idarapo rifite amabara agiye atandukanye. Harimo ubururu, icyatsi n'umuhodo. Iri darapo ni iry'igihugu cy'u Rwanda. Hirya gato hari ibiti byiza bifite ibara ry'icyatsi. ibiti biri mu bintu birinda isuri, ndetse tukabona umwuka mwiza.

Abakinnyi ba hendibolo bagiye batandukanye. Abakobwa , abahungu bamwe muri bo bambaye ingofero, abandi nta ngofero bambaye. Hirya gato hari umuhungu wambaye ingofero y'umukara undi wambaye agapira k'umukara. Bamwe muri bo bambaye y'umweru abandi bakambara inkweto z'umukara ziriho umwe gato hari umupira bakinisha muri hendibolo.

Abanyonzi benshi cyane, abanyonzi birabura, umwe muri bo wambaye ikasike y'umweru n'umukara, uwambaye irimo umweru n'ubururu, uwambaye ikabutura y'ubururu, imbere gato hari uwambaye ijire y'icyatsi, abanyonzi bari muri kaburimbo, iruhande rwa kaburimbo hari ibyatsi by'icyatsi byiza.

Umukino wa basikete uri gukinwa n'abantu bagiye batandukanye birabura b'abakobwa, umwe muri bo afite imisatsi miremire izirikiye inyuma, wambaye agapira mo indani n'iyuma ya jezi k'umukara, ndetse umukobwa wundi bari gukina wambaye agapira k'umweru gafite amaboko ndetse na jezi y'umuhondo yanditseho Rwanda ikaba iriho n'umubare gatanu.

Abakinnyi babiri ba basikete, umwirabura undi w'umuryango w'umuzungu, wambaye agatishati k'umweru n'umutuku ikabutura irimo umweru n'umutuku ,uwirabura wambaye agatishati w'ubururu harimo idarapo ry'u Rwanda n'ikabutura.

Umukinnyi wa basket wambaye inkweto z'umweru n'umukara, amasogisi y'umweru, wambaye ikabutura y'ubururu n'umweru, wambaye agapira karimo umuhondo n'ubururu, hejuru gato handitse visiti Rwanda.com.

Abayonzi umwe muri bo wambaye agapira karimo umweru n'umuhondo, inyuma gato hakaba hari imodoka y'umweru n'iyumukara, iruhande gato hakaba hari ibyatsi by'icyatsi ni poto, umuhanda ukaba ugabanyijemo ibice bibiri, hagati harimo umurongo w'umuhondo.

Umukino wa basketball, umukino ukinywa n'abantu bagiye batandukanye. Umwe muri bafite imisatsi miremire, ufite baro ugiye gutera mu nshundura. Kri kurebwa n'abantu bagiye batandukanye. Iruhande rw'abakinnyi hari umugabo uhagaze wambaye agapira karimo umukara n'umuhondo ndetse n'ubururu bwijimye.

Inzu nziza cyane inzu yubakishije amatafari ahiye, imbere y'inzu gato hari abantu bagiye batandukanye, ndetse bamwe muri bo bari gukina handiboro, harimo uwambaye jezi y'umweru handitsemo umunani inyuma mu mugongo, n'undi wifashe inyuma wambaye jezi y'umuhondo irimo ubururu, wambaye n'inkweto z'umweru zirimo ubururu.

Abakinnyi ba handiboro umwe muri bo wambaye umupira w'umweru n'ikabutura y'umweru n'amasogisi y'umukara, n'injweto z'umutuku nyuma gato hari uwambaye umupira w'umutuku uri kuri karindwi wambaye ikabutura y'umukara.

Umuntu mwiza cyane wirabura, wambaye rinete z'umukara, uri koga mu mazi menshi. Amazi ni kimwe mu bintu bifasha umubiri kuba neza, ndetse umuntu agasa neza cyane.

Sitade nziza cyane ifite umucaca w'icyatsi, hariho imirongo y'umweru, abakinnyi bagiye batandukanye umwe urimo ufite umusatsi w'umukara wirabura, wambaye ijezi y'umuhondo. Inyuma harimo inomero z'ubururu.

Abakinnyi beza cyane, abakinnyi bafite jezi zitandukanye, umwe wambaye ikabutura y'umukara n'undi ufite imisatsi y'umukara, undi ufite isengeri y'umuhondo irimo icyatsi, hirya gato hari uwambaye bodaboda, hirya gato hari uwambaye ipataro y'ikoboyi w'umuzungu, wambaye rinete z'umukara, wambaye ingofero y'umutuku.

Umukinnyi mwiza cyane, umukinnyi wirabura umanitse amaboko, ufite umusatsi w'umukara, uri gukina hendiboro, wambaye ipantaro y'umukara, inkweto z'umuhondo zirimo ubururu bwiza.

Abanyonzi beza b'amagare bambaye jezi z'umweru n'ubururu ufite kasike irimo umutuku n'umweru n'umukara, undi wambaye kasike y'umweru n'umukara. Iruhande gato hari umugabo wambaye ingofero itukura wambaye umupira w'umukara uri gutanga amazi.

Abakinnyi ba hendiboro beza birabura bagiye batandukanye, umwe wambaye umupira w'ubururu inyuma wanditseho makumyabiri na kabiri, byandikishijwe ibara ry'umweru, wambaye ipantaro y'umukara. Hirya gato hari uwambaye jezi y'umutuku irimo umweru, inyuma hari uwambaye jezi y'umweru.

umukinnyi wa kiriketi wambaye agapira k'umukara, yambaye inkweto z'umweru, inyuma hari imodoka iparitse y'umweru. Imbere y'imodoka hari ibiti byiza cyane birebire bibereye amaso, ibiti biririmo bimwe bihingwa birinda isuri bikaduha n'umwuka mwiza.

Abakinnyi ba basiketi bari kurebwa n'abantu bagiye batandukanye umwe ni umwirabura, undi ni umuzungu. Umuzungu ufite masike mu maso afite umusatsi w'umukara, umwirabura ufite agapira k'umukara wambaye inkweto z'umweru zirimo umukara.

Ikibuga Kiza cyane, ikibuga kigari, kirimo imirongo izamuye, n'itambitse, ndetse y'umweru, ikibuga kiriho amazamu meza cyane, ikibuga kiri mu bintu umuntu akenera, mu buzima akoreramo siporo zigiye zitandukanye.

Imodoka y'umweru, n'umuhanda w'igitaka iruhande rw'umuhanda, hari abantu benshi inzu bagiye batandukanye, imbere y'modoka hari umudamu uhagaze, urambuye akaboko uhagaritse imodoka, wambaye agapira k'icyatsi, ufite umusatsi w'umukara uzinze.

Abakinnyi beza birabura, bari gukina umukino wa handi boro, umwe muri bo wambaye ijezi y'umweru n'ikabutura y'umweru, iruhande umukobwa wirabura wambaye ikabutura y'umukara, inyuma ye hari abagabo babiri bambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'ubururu.

Abakinnyi beza cyane ndetse abagore n'abagabo umwe muri bo w'umugabo wambaye ingofero y'umweru ndetse wambaye amarinete y'umukara, umugabo wirabura wambaye agapira k'ubururu kanditseho Rwanda baremasi, ndetse iruhande rwe hariho undi mugabo wambaye linete z'umukara ndetse n'uruhande rwe rundi hariho abadamu babiri bafite imisatsi myiza cyane.

Umukobwa mwiza cyane uri gukina umukino wa kiriketi, umukobwa umanitse akaboko hejuru wambaye isengeri y'umuhondo iriho idarapo ry'u Rwanda ry'ubururu, icyatsi n'umuhondo munsi gato yambaye ikabutura y'ubururu iriho inyandikoko y'umweru, inyuma ye gato hariho ibyatsi byiza cyane bigiye gusa n'icyatsi.

Umukino wa hendi bolo: umukino ukinwa n' abakinnyi bagiye batandukanye umwe wambaye ijezi y' umukara irimo umweru undi umufashe wambaye ijezi hejuru y' umutuku irimo umweru bafashe umupira.

Umukinnyi ukina umukino wo kwiruka, wambaye agapira k'umukara karimo umweru, wambaye inkweto z'umweru. iruhande rwe hari kaburimbo irimo. iruhande rwa kaburimbo hari imirongo y'umweru, uri kurebwa n'abantu bagiye batandukanye.

Imihanda myiza cyane, ni ibiri umwe wubatswe na pave uwundi ni uwa kaburimbo, uwundi urimo abagenzi, iruhande rwawo hari igikuta cyubatswe n'ibara ry'umweru ndetse n'umukara.

Amagare ari hirya y'umuhanda, hariho umugabo wambaye umupira w'umukara, ipantaro y'umukara, inkweto z'umukara. Hirya gato hari umugabo wambaye umupira w'umutuku, hino gato hari abantu benshi ba bagiye batandukanye, Harimo n'uwambaye bote z'umukara.

Umumotari wicaye kuri moto, wambaye ikoti ry'ubururu, ufite kasikey'umutu, ku ruhande gato hari imodoka y'umweru, hari abamotari babiri, umwe muri bo wambaye ikoti ry'umukara, inyuma gato hari ibitaka by'umukara.

Igipangu cyiza cyane, n'igipangu cyubakishije amatafari ahiye, inyuma y'igipangu hari uruziitiro rwiza cyane, rufite ibara ry'icyatsi, ndetse hagati y'uruzitiro n'urundi hari inzira nyabagendwa.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo, iruhande rw'umuhanda hari ivazi y'icyatsi, hirya gato hari ibiti birebire byiza. Ibiti biri muri bimwe birinda isuri, ibiti biduha umwuka mwiza, ndetse tukabigurisha tugakuramo imbaho.

Inzu inzu nziza cyane, inzu ifite irangi ry'umutuku, isakajwe n'amabati y'umweru, ifite igipangu ki byatsi byiza cyane ibyatsi by'icyatsi, iriho igiti cyamashanyarazi kiriho urusinga rw'umukara, ndetse n'umuhanda nyabagerwa ufite ubutaka bw'umukara.